Inyubako igaragara nk'ibitaro bya leta hagaragara ko hanitse amashuka hanze.

Icyapa kigaragaza inzira ebyiri, imwe inyura ibumoso bw'umuhanda n'indi ikomeza aho umuhanda urangirira.